Itsinda ry'abantu bane rigizwe n'abagabo batatu ndetse n'umukobwa umwe. Bari mu cyumba cy'isuzuma ndetse n'icyumba gikoreshwa mu kwiga cy'umweru, gifitemo ubutebe bicaraho, bakoresha mu gihe cyo kwiga. Ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa igihe abanyeshuri barimo bariga.

Amazu abiri gubakishijwe amatafari, gasakarishijwe n'amabati g'icyatsi. Imbere y'aho hari ubusitani burimo igiti. Ibi bikaba byubakwa ku bufatanye na leta, bakaba bashiraho ubusitani kugira ngo bubashe kuba bwagaragaza ahantu neza.

Inzu y'ibara ry'umuhondo ifite hasi hari amabuye irambitseho icyapa kigaragaza ishuri ryisumbuye rya Kampanga. Ibi bikaba ari ibipapuro bigaragaza ubyerekezo cyangwa se biranga umwanya cyangwa se ahantu umuntu abashije kugera kugira ngo abashe kumenya ndetse no gusobanukirwa ibyo aje gukora.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo bane umwe muri bo wambaye itaburiya. Bahagaze ku makaro imbere y'inzu ifunguye, yubakishijwe amatafari g'umutuku n'umuryango, ufite ibara ry'ikijuju ndetse mu madirisha harimo n'amarido.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bwa kijyambere gifite ubusitani bwiza ndetse n'ikibuga cya baskete umukino w'amaboko. Ibi bikaba bifasha abanyeshuri kuruhuka mu gihe barangije amasomo kugira ngo abashe kwirinda ibibazo yatera mu gihe abana baba bize amasomo menshi cyane.

Abantu bane bambaye imyenda isa, bahagaze ku rubyiniro, imbere y'indangururamajwi, babiri muri bo bakaba bafite ibicurangisho bita gitari, ndetse ni inyuma yaho hakaba hari ingoma zifashishwa mu gukora umuziki.

Itsinda ry'abantu bane biganjemo abahungu barimo barakanika ikinyabiziga c'amaguru abiri kitwa moto; bambaye ibisurubeti by'ubururu ,iyo moto ikaba birambitse ku giti bukaba ari ubujyo bwifashishwaga mu kugira ngo abanyeshuri biga ubukanishi babashe kwimenyereza imirimo zabo.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abakobwa bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse n'ingofero z'umukara bari mu cyumba kirimo amamashini yifashishwa mu gukora imirimo igiye itandukanye. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu kwigisha abanyeshuri barimo biyiga imyuga igiye itandukanye.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru n'umukara, ndetse bambaye n'udupfukamunywa, bicaye imbere ya mudasobwa zegeranye n'amazi mu cyumba kidasanzwe cy'ikoranabuhanga, bari kumwe n'umwarimu ubafasha, unabaha amasomo akoresheje ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri, bakurikira umurezi wabo urimo arakoresha ubujyo bugezweho bw'ikoranabuhanga, mu gusobanura amwe mu masomo biga. Ubu bukaba ari ubujyo bugezwe ho mu kwigisha abanyeshuri hakoreshejwe ikoranabuhanga mu bujyo bwo koroshya uburezi, kugira ngo habashe kuboneka uburezi bufite ireme.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo batatu, bicaye mu cyumba kirimo mudasobwa zigiye zitandukanye, umwe muri abo bagabo akaba arimo kubafasha bari kumubaza ibibazo arimo arabasobanurira, ndetse inyuma y'aho hariho intebe y'umukara.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ibitambaro mu mutwe, bari ahantu hari amakaro bafashe ku byuma, byifashishwa n'abaganga mu kureba ibintu bitoya by'ibinyabuzima.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye inifomu, bahagararanye n'umugore wambaye imikenyero n'undi wambaye imyenda isanzwe, bahagaze imbere y'inzu yubatswe mu bujyo bwa kijambere ndetse na sima y'amapave.

Itsinda ry'abanyeshuri rigizwe n'abahungu n'abakobwa, bambaye udupfukamunwa ndetse naga mu ntoki. Bahagaze imbere y'ameza bafashe ibikoresho byifashishwaga mu gupima bimwe mu bintu bigiye bitandukanye, bifitanye isano na poroduwi.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abakobwa bakiri batoya, bambaye iniforume z'ibisurubeti by'icatsi, bicaye mu ntebe z'ubururu imbere y'amamashini gadodaga imyenda, bose bafite udukoresho bakoreshaga bari gupima amametero.

Umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu ndetse n'ingofero y'umuhondo. Akaba ari ahantu bubakira, ndetse akaba arimo aratodeka amatafari yifashishije igikoresho bakoresha mu kubaka, akaba ari uburyo bukoreshwa mu gutoza ndetse no kumenyereza abanyeshuri biga umwuga w'ubwubatsi.

Itsinda ry'abanyeshuri biganjemo abakobwa bicaye batega amatwi umukobwa ufashe indangururamajwi arimo abaza ikibazo cyangwa se atanga igitekerezo aho ubu ari uburyo bwifashishwa igihe abanyeshuri umuyobozi agiye kubaganiriza cyangwa se bari mu biganiro mpaka.

Abanyeshuri ,bari mu cyumba cy'ishuri, hamwe n'umurezi wabo barimo bamubaza ibibazo byerekeranye n'ubugeni mu byo bakoze. Ibi bikaba bigaragaza uburezi bwerekeye ubugeni ,aho abanyeshuri bagaragaza ibihangano bagezeho kumwarimu.